Igishushanyombonera kigaragaza uburyo wakoresha porogaramu iri muri terefoni, igufasha mu kohereza amafaranga akagera muri banki.

Icyemezo cyemewe na Leta kigaragaza agaciro k'ubutaka, ubuso bw'ubutaka, aho giherereye, na nyiracyo ariwe Mukandayisenga marie theresa cyasinyweho na noteri.

Icyapa cy'umuhondo n'umukara kigaragaza ubumwe bw'uburengerazuba bufasha mu kohereza amafaranga mu bihugu bigiye bitandukanye, imbere yaho hari umuhanda urimo imodoka n'abantu bari kugenda.